Ahantu hari urumuri rw'izuba hari amapiloni menshi, ariho insinga zijyana umuriro mu byerekezo bitandukanye ndetse hakabaho n'udufite rasoro n'ibyuma birebire ku buryo bishobora kohereza insinga mu ntera ndende.

Amarembo agaragaza ko ugeze mu wundi mujyi ,hariho icyapa kigaragaza aho ugiye n'aho waba uvuye, hari ibiti byinshi bitandukanye ndetse hakaba ibirebire n'ibigufi.

Inyubako ngari ikorerwamo iburanishwa yanditseho ko ari Urukiko rw'Ibanze rwa Nyagatare. Hari abagabo bicaye hanze kw'ibaraza ndetse n'umugore utegereje ko bamuha serivisi.

Mu kibuga kirimo tapi harimo abakinnyi n'amakipe abiri atandukanye bambaye imyenda nayo itandukanye, bamwe bambaye amakabutura y'umuhondo n'imipira y'imyeru abandi bambaye ubururu gusa, ahantu bari harisanzuye ndetse hirya gato hari n'ishyamba.

Umugabo uri gucunga igare mu muhanda wababugenewe aho amagare agendera, hariho injerekani nyinshi ndetse iruhande rwe hari ibyatsi n'ibiti birebire.